Ahangaha turahabona kigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cyamamaza uburyo wagira ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, bavuga ko wakanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego cyangwa ugahamagara icumi umunani icumi kugira ngo ubashe kuba mwavugana.

Ahagurishirizwa ibintu bitandukanye, hari umukozi wa rino soko ndetse n'umukiriya uje kubarisha ibyo amaze guhaha, umukozi aramwereka kuri mudasobwa ibiciro.

Aha ngaha barerekana inzu y'ubucuruzi, ikorerwamo imitako yo mu nzu, ya kinyarwanda, y'umuco nyarwanda, ikurwa n'abanyarwanda, bikozwe n'intoki zabo, icyo bita mu ibohero.

Izi ngizi ni imodoka ziri muri parikingi, parikingi nyine n'aho baparika imodoka mu gihe zitegereje cyangwa ba nyirazo bagiye mu kazi, iyi ngiyi iri hano hafi bayita Rava fo ya bibiri na makumyabiri na rimwe, ikurikiraho ni landi kuruza ti ekisi ara y'umukara.

Aha ngaha turahabona ikigo gikomeye cyane mu Rwanda gicuruza amamodoka, gitanga impano y'imodoka k'umwe mu bakozi bacyo bitwaye neza muri uyu mwaka.

Iyi ngiyi ni inote y'ibihumbi bitanu ya kera, kubera ko njyewe iyi ngiyi sinigeze nyibona kuva nabaho, gusa hariho abantu barimo kubyina, hariho na banki nasiyonari y'u Rwanda.

Ahangaha ni ikusanyirizo ry'amata ryitwa INYANGE. Aha kandi banacuruza ibindi bintu byinshi bituruka ku buhinzi, urabona ko hari ikigega kirimo amata.

Ahangaha ni aho abantu baza kurira, urabona ko harimo ibicuruzwa by'inyange ndetse n'umotobe, harimo amata, harimo amata y'inyange, harimo amazi.

Aha ngaha n'aho bacuruza ibiva ku nka bacururiza i Nyanza mu rukari ahitiriwe ibwami.

Iyi ngiyi ni imwe mu nzira wakoresha urimo kohereza amafaranga, ukoresheje ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN gikorera mu Rwanda .ngiye kohereza amafaranga igihumbi.

Aha ngaha barerekana ikigo cy'imari n'imigabane m'u Rwanda, cyerekana ko hari amahirwe yo kuba wazamura amanota yawe kugira ngo ubone andi mahirwe menshi.

Aya ngaya ni amafaranga y'Abanyamerika , amadolari, barimo kuyabara bagenda, bongera bayazirikanya, arikumwe n'amafaranga yo muri Aziya nayo barimo kuyabara.

Aya ngaya ni ama amafaranga, harimo inoti zisa icyatsi, n'umweru, n'umukara, hakaba hari n'izindi zisa umutuku n'umweru, hakaba hari n'ibiceri.

Aha ngaha turahabona amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, bumwe mu buryo bwo kwishyura, bukoreshwa mu buhinde, aribwo bwo kwishyurana amafaranga udakoresheje ubundi buryo bw'ikoranabuhanga.

Aya ngaya ni amaropi ni amafaranga y'Abahinde, Abahinde bararenze ku bintu bijyanye na tekinoroji, ariko ibicirori byabo biracyari hasi kabisa, mbo ni makeya cyane ugereranyije n'amadorari, gusa aya ngaya ni amaropi icumi, uwo mugabo uriho yitwaga Hadi.

Aho ngaho naho bavunjishitanga amafaranga, bakaguherereza andi yo muri iki gihugu. n'amafaranga yo mu kindi gihugu bakaguhereza ayo mu Rwanda. Hari umukobwa ufite amafaranga ndetse n'ibintu, by'ururimi.

Aha ngaha barerekana ahakorerwa ivunjisha. Inzu ikorerwamo ubuvunjayi aho utanga amafaranga y'amanyarwanda bakaguhereza ayandi ushaka. Amadorari ya Amerika ijana aha ngaha avunja mirongo itandatu n'abiri.

Inzu ikorerwamo ivunjisha aha ngaha uzana amafaranga y'Amanyarwanda cyangwa ay'Amarundi bakayakuvunjira bakayaguhereza mu yandi mafaranga wifuza.

Utu ngutu ni utubati dukoze mu biti. Utubati tubiri duteretse ahantu hakorerwa n'ubundi ibikoresho byo mu rugo, cyangwa byo mu kazi, ariko bikorwa mu biti.

Aha ngaha barerekana abakora ibijyanye no guhinduramo ibiti ibintu bifite agaciro gahanitse bikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'intebe, ameza n'ibindi.

Aha ngaha barerekana ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi n'abakiriya bacyo n'abakozi bacyo, aho bicaye hasa umweru, bambaye nk'abasirimu.

Aha ngaha barerekana ikigo cy'imari, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, berekana y'uko ku nguzanyo zabo, bafataho inyungu ntoya cyane ya cumi na rimwe ku ijana, ese waba winjiza hagati y'ibihumbi magana inani na miliyoni imwe na magana atanu ku kwezi.

Aha ngaha barerekana inzu nini y'ubucuruzi ifite imiryango myinshi ikorerwamo ibintu bitandukanye, hari abaranguza, abacuruza akantu ku kandi, hari abakora ubuvugizi ndetse hakaba hari n'ikamyo ishinzwe gutwara ibicuruzwa bimwe na bimwe mu bicururizwa aha ngaha.

Aha ngaha barerekana abakora ubucuruzi ariko budateye imbere, kuko bacururiza hasi, bari gucuruza nyanya, intoryi, ndetse n'ibindi byo kurya bikoreshwa bya buri munsi.

Aha ngaha ni ku cyicaro n'ishami bya MTN, umuyoboro w'itumanaho ukoreshwa mu Rwanda aho hari umukiriya wagiye gusaba ubufasha ndetse n'umukozi wayo.

Aha ngaha turahabona urubuga rwa bamwe mu bakora ubucuruzi bwo kuri murandasi. Ubucuruzi bwo kuri murandasi bukora bute? umuntu atuma ibintu yicaye iwabo bakabimuzanira, aba ngaba bitwa iduka.

Aha ngaha barerekana inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibijyanye n'imbuto.

Uyu nguyu ni umukozi we abashinzwe kutuzanira ibyo twaguze iwacu mu rugo atwaye moto ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, yambaye umupira w'icyatsi n'igofero y'icyatsi.

Aha ngaha barerekana inzu ikodeshwa muri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko ku madorari magana inani, iyo nzu ushobora kuyibona ukwezi kose. Harimo intebe, harimo ameza, ifite n'igikoni kigezweho.

Uyu mugabo ndamuzi turatura, akora icyo bita kwamamaza amazu, agashishikariza abantu kuyagura cyangwa akayabakundisha. Ubundi nawe akaryamo udufaranga.

Ahangaha barerekana amazu akodeshwa muri kigali aherereye ahitwa kibagabaga bafite ibyumba bitanu. Ubwiherero butanu, kandi akodeshwa ibihumbi cumi na birindwi.

Aha ngaha barerekana isoko rya kijyambere rinini, inzu y'ubucuruzi aho bagurishirizamo ibintu bitandukanye harimo ibikinisho by'abana, ibyo kurya...

Iyi ngiyi aha ngaha ni aho bagurira indabo, aho bagurira indabo n'imitako yo mu nzu. Imitako ni ibintu bashyira mu nzu hakaba hasa neza, urabona n'aha ngaha hasa neza tu ibintu byiza cyane.

Ejo heza, ejo heza ni ikigega cya leta gishinzwe guteganyiriza abanyarwanda bose babyifuza ejo habo heza.

Uyu nguyu ni uhagarariye mituweri mu gace runaka cyangwa muri kino kigonderabuzima. Akaba ari kumwe n'umurwayi cyangwa uwaje kwivuza, ari kumwereka mituweli ye.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda bacyita Rssb,aha ngaha ni ho papa akora, hari abantu bicaye imbere za mudasobwa.

Iyi ngiyi ni imwe mu nzu nini mu Rwanda zikorerwamo ubucuruzi bwagutse, bacururizamo ibiva mu mahanga ndetse n'ibikorerwa mu Rwanda gusa, iyi akaba ari imwe munzu zigezweho.

Aha ngaha turabona inzu nini cyane y'ubucuruzi, aho harimo abantu barimo gufata ibicuruzwa bashaka kugura, n'undi urimo kumufata ifoto bakoresheje mudasobwa, barimo kugura ibikoresho byo mu gikoni.